Ikirango kiri mu buso bw'ubururu gifite uturango tw'ishakaa tw'umweru, hakaba harimo amagambo y'umweru avuga ngo wadi fudu porogaramu.

Abantu nanone bicaye hamwe bari kwiga ku bintu bitandukanye, aho abenshi muri bo ari abagore, umugabo muri bo akaba ahagaze.

Itsinda ry'abantu benshi, umubare nyamwinshi n'uw'igitsina gabo, umugore we ni umwe wenyine urimo, abantu bicaye abandi bahagaze, barimo baratumbera imbere bavuye mu gikorwa runaka.

Ikiyaga karemano gifatwa neza kikabungwabungwa, kikaba kigaragara nkaho cyororerwamo amafi. Hakaba harimo akantu k'akazeru mo hagati kameze nanone nk'akaremano kuko harimo amazi ariko make ugereranyije n'andi. Hakaba hariho n'ikiraro kijyaho.

Inyubako irimo abana benshi ndetse numu mama umwe wambaye rinete, barimo barareba imbere kandi bishimye cyane, uyu mukecuru barimo baramwitaho.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu bane ndetse n'uruhinja rumwe, abo bantu baje kwaka serivisi zitandukanye kwa muganga nko gukingiza umwana n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga iririmo abantu batandukanye bicaye bari gushaka serivisi, ndetse n'abandi babiri bari imbere yabo bari kuzibaha, bafite za mudasobwa imbere yabo.

Itsinda ry'abagore batanu bicaye mu cyumba kimwe ndetse imbere yabo hakaba hari umuganga urimo arabaganiriza ku buzima.

Abagore babiri barimo barapomba pomba amazi, aho umugezi uzana amazi aruko abantu babanje gupomba amazi ava mu butaka ndetse n'undi uri imbere urimo aravomera mu ndobo.

Umugezi uri ahantu mu kabande, urimo uravomwaho n'umukecuru ukenyeye igitenge cy'icyatsi ndetse n'ingofero y'ubururu, afite ijerekani imwe, umukecuru arishimye.

Itsinda ry'abantu barimo barubaka akarima k'igikoni aho hariho n'abapolisi ndetse n'izindi ngeri zitandukanye, abo bantu bambaye impuzankano yabugenewe iri mu ibara ritukura.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abanyabuzima, biganjemo ibo igitsina gore, bambaye impuzankano yabugenewe, barimo barasoma mu gitabo ndetse umuntu uri imbere yabo, arimo arabigisha.

Umwana uri kumwe n'umubyeyi aho umubyeyi yambaye agapfukamunwa, akaba ari gukarabya umwana n'amazi meza n'isabune, biragaragara ko bari kwirinda icyorezo runaka.

Igishanga kirimo amazi mabi ndetse n'umwana mutoya w'umukobwa ufite akajerekani arimo aravoma amazi mabi, amazi mabi atera indwara.

Abatanu bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagore babiri b'abazungu n'abagabo batatu bisa nkaho bari kuganira ku kintu gitandukanye, ku meza hariho amacupa y'amazi ndetse na terefone.

Iriba riri mu gishanga rigizwe n'impombo ebyiri, hari umugabo wicaye ku ijerekani uje kuvoma wambaye ishati y'utudomo ndetse n'ipantaro y'umukara, uyu mugabo arishimye cyane.

Umwana w'umuhungu urimo aravomera mu ndobo ku iriba riri ahantu hitaruye, wambaye agakabutura gatukura ndetse n'agapira ka gisirikare, umwana kandi arimo aranywa amazi akoresheje intoki.

Inyubako yo kwa muganga irimo abaganga b'ingeri zose bambaye imyambaro yabugenewe, bahagaze hamwe ndetse biteguye gufata ifoto, abagabo ndetse n'abagore.

Ifoto irimo umugabo wambaye bote, umubyeyi n'umwana we n'ibipapuro, aho umubyeyi ari gutega amatwi uwo mugabo nkaho hari ibintu ari kumubwira.

Umugezi uri ahantu hitaruye, aho hari abantu bari kuhaca biganjemo abanyeshuri bavuye kwiga, kuri uwo mugezi hari umwana muto w'umuhungu urimo aravoma ndetse n'umugabo urimo aramufungurira amazi.

Inyubako irimo abantu babiri umugabo n'umugore barambitse imiti ku ntebe ,iyo miti ikaba yari mu bikarito by'ibara ry'icyatsi.

Igishanga kirimo ikiyaga, hafi yaho hari bantu batatu bagaragara neza ndetse n'abandi babiri batagaragara neza, barimo barasobanurira umubyeyi uteruye mwana w'uruhinja uburyo agomba kwipimisha kovidi.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu b'ingeri zose, aho umwe muri bo arimo arabaganiriza, aba bantu barishimye.

Itsinda ry'abantu bari hamwe bambaye impuzankano hejuru, isa ni impira itukura, barimo barubaka uturima tw'igikoni.

Igishanga kirimo amazi mabi atemba ndetse n'abana babiri basutamye barimo barakaraba intoki zabo ku mugezi wa robine.

Inyubako yahuriwemo n'abantu benshi, inyubako ikaba irimo itsinda ry'abantu batandukanye b'abayobozi imbere yabo hakaba hateretse icupa ry'amazi, amakayi ndetse n'ibindi bikoresho nka telefone.

Ahantu hitaruye hahagaze itsinda ryabanyabuzima bambaye impuzankano yabugenewe iri mu ibara ry'ubururu, abo bantu bakaba barimo baratanga amashyi.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama aho buri wese atumbereye imbere arimo arareba umuyobozi urimo abagezaho inyigisho, iruhande rwa buri umwe hari icupa ry'amazi meza.

Umwana uri ku mugezi wagiye kuvomera mu ndobo iremereye cyane, hakaba hagari umuntu imbere ye ukuze ufite ingata agiye kumushyirira ku mutwe ngo yikorere.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ubururu n'umweru ufite n'agapira kari mu ibara ryu'bururu arimo arakaraba amazi meza n'isabune.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, itaburiya y'umweru ndetse na ga mu ntoki, afite urwembe arimo arapima uburyo umurwayi agomba gukurikiranwa.

Itsinda ry'abantu bicaye mu cyumba barimo baraganira ku bijyanye n'ubuzima, abantu imbere yabo hahagaze umuyobozi urimo arabaha amasomo.

Umwana urimo arakarabywa intoki na sabune n'amazi meza, umwana mutoya ndetse amazi arimo arava mu gikombe umubyeyi we afashe gisa nk'icyatsi.

Itsinda ry'abantu benshi b'abayobozi bicaye hamwe buri wese imbereye kaba hari icupa ry'amazi ndetse n'ibitabo bose batumbiriye imbere barimo bariga ibintu runaka abantu barishimye.

Umugabo uri kuyobora abantu batandukanye benshi, bigaragara nkaho ari umuganga kuko yambaye itaburiya, aba bantu bakaba bamuteze amatwi...

Ibipimo bitandukanye bigaragaza ijanisha ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, aho umwaka wa bibiri na cumi n'umunani yari mirongo itanu na gatanu ku ijana, bibiri na cumi n'icyenda mirongo irindwi ku ku ijana, bibiri na makumyabiri mirongo irindwi na gatandatu ku ijana, bibiri na makumyabiri nari rimwe mirongo irindwi n'icyenda ku ijana, bigaragara ko hagiye habamo kuzamuka.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu batandukanye b'ingeri zose, aho abaganga barimo barasobanurira abashyitsi ibintu bimwe na bimwe nanone kandi hariho abashinzwe gufata amafoto benshi.

Inyubako yo kwa muganga irimo abakecuru n'abasaza barimo baritabwaho n'umuganga aho umusaza umwe bamuhambiriye ku kuboko barimo baramupima.

Itsinda ry'abanyabuzima bambaye baje ndetse n'imyambaro yabugenewe, bakaba bahagaze hamwe bishimye, ndetse n'umuyobozi wabo wabasuye.

Abantu bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yabugenewe ibapfutse hose, aho barimo baratunganya ibintu runaka.

Ikigo cy'ishuri cyasuwe na muganga umwe aho arimo arita ku mwana w'umukobwa mutoya uri kumwe n'umubyeyi we umumama ufite igikapu.

Umugezi uri ahantu mu gishanga aho hari abana bane batoya ndetse n'umugore umwe urimo arabapompera amazi ngo aze, hirya yabo haparitse imodoka.

Abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'inama, hari bayobozi bafite icyo kunywa, porojegiteri n'ibindi bikoresho bitandukanye ,bimeze nk'aho bari gutega amatwi umuntu umwe, bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Ikigo cy'ishuri kiriho abana b'abanyeshuri bo mu ishuri ribanza, bambaye impuzankano bari ku mugezi barimo barakaraba abandi bakanywa amazi kuri ryo riba. Abana barishimye cyane.

Itsinda ry’abantu bicaye muri salle aho buri wese imbere hari icupa ryamazi ndetse n'ikayi, abantu batumbereye imbere kuko hari uri kubaha inyigisho.

Umukobwa usutamye arimo aravoma amazi meza atezeho ijerekani y'umuhondo, nayo iteretse mu ibase umukobwa arishimye cyane arimo araseka.

Ikigo nderabuzima kiriho abantu babiri b'abanyabuzima ndetse umwe n'umunyabuzima undi ni umuturage usanzwe, aho umunyabuzima afite igipapuro bakoresha bapima uburebure bw'abana.

Umugezi uri ahantu hitaruye hafi y'amazu, uyu mugezi ukaba ari umugezi wavoma aruko wabanje gupompa, hariho abantu b'abana benshi ndetse n'umuntu ukuze ubumwe n'amajerekani yo kuvomera mo.

Abana babiri, umukobwa n'umuhungu barimo baravomera kuri ya migezi yo mu bishanga, imwe bavomaho babanje gupompagura amazi aturuka hasi mu butaka, aba bana biragaragara ko bishimye.

Abantu icumi harimo abagore batandatu n'abagabo bane, bakaba bahagaze imbere y'inzu iberamo inama.

Igishushanyo kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru agira ati: Unicef, imbere hari ikirango kirimo abana, iki ni icyigo cy'igihugu gishwinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana.

Umugore w'umuzungu uhagaze imbere y'icyapa kigizwe n'amabara y'ubururu, umweru, umutuku uri mu gakadire ndetse n'umuhondo ufite mikoro mu kuboko kw'iburyo yifashe mu mutima arimo aravuga.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'amakabutura y'umukara basuwe n'abazungu bari inyuma yabo barimo barapepera.

Icyumba kigaragaramo abantu babiri, ndetse n'imitako itandukanye y'amafoto, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nka mikiseri, kompiyuta, sanitayiza, ndetse n'ibindi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye, harimo iz'ubuzima ndetse n'izo kongera imiti karemano.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye isize amarangi yo mu ibara ry'ubururu harimo televiziyo fulate nini, ibitanda, ameza ndetse n'ibindi. iIo nyubako nta muntu uyigaragaramo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, aho imbere hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe barimo barabigisha, imbere yabo na none hari kompiyuta, hicaye abantu b'ingeri zitandukanye aho buri wese imbere ye hateretse icupa ry'ama...

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri uhagaze imbere ya kandagira ukarabe, iriho ibase itukura ndetse n'indobe itukura ariho arakaraba intoki n'amazi meza.

Itsinda ry'abagore benshi bicaye ku ntebe umurongo umwe ndetse bateruye abana babo b'impinja baje kubapimisha, abagore barishimye.

Abanyeshuri bo mu ishuri ribanza bari kurya ibiryo muri gahunda yo kurira ku ishuri, barishimye cyane kuko bari kurya ibiryo, akawunga n'ibishyimbo n'imboga.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zose, abagore n'abagabo, bakaba bahagaze ku murongo umwe, inyuma yabo hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu no mu ibara ritukura, agira ati" uburyo bwo gukumira no kurwanya utwita kw'abangavu".

Imbuga irimo agatanda karambitseho ibikoresho bitandukanye, nk'ibikombe, amasahani, indobo, ibasi n'ibiyikoka n'ijerekani.

Umugezi uhuriweho abantu benshi w'amazi meza, baje kuvoma, harimo ingeri zose, abagore, abana n'abagabo.

Abantu batanu b'igitsina gore bahagaze ku mugezi, aho barimo baravoma amazi hari amajerekani menshi cyane ndetse aba bantu barishimye.

Inyubako, icyumba kimwe kirimo abantu bane bose barembye aho baje gushaka serivisi zitandukanye, nko kwipfukisha, kwivuza ndetse n'ibindi, inyuma yaho hari ibishushanyo n'imitako.

Abana babiri b'abahungu bishimye cyane aho barimo barafungura amazi yo ku irobine iri mu gishanga. Aya mazi ni amazi meza barimo baravomera mu ndobo.

Itsinda ry'abantu bane, abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bicaye aho imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi ndetse na za mudasobwa, umwe muri bo afite mikoro arimo arabagezaho ibintu runaka.

Abana biga mu ishuri ry'inshuke, barimo baragaburirwa igikoma n'abantu batandukanye babasuye harimo abapolisi ndetse n'abandi.

Icyumba kirimo abarwayi babiri ndetse n'abaganga babiri bari kwita kuri buri murwayi, umurwayi w'imbere barimo baramutera urushinge ku kuboko kw'iburyo naho uw'inyuma we ubonako arimo araterwa ku kuboko kw'ibumoso.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu ishuri ribanza, aho batonze umurongo bavoma amazi yo kunywa mu ndobo zabugenewe ziteretse ku meza zitwa firitiri

Abaganga bari gupima gutera kw'amaraso, bambaye udupfukamunwa n'imyambaro yabugenewe, umurwayi yicaye.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru, agaragaza ko icyo kirango gishinzwe kurengera no kubungabunga uburenganzira bw'umwana.

Abajyanama b'ubuzima bahagaze imbere y'ivuriro, bakaba bari kumwe n'abashyitsi runaka batandukanye, bambaye udupfukamunwa bose, harimo n'umuzungu.

Abana babiri b'abakobwa bari ku mugezi ufite robine ebyiri aho bamaze kuvomera mu ndobo iri mu ibara ry'icyatsi, umwe arimo arakorera undi aba bana barishimye.

Ikibaya kirimo ibimera bitandukanye ndetse n'umugezi wa robine aho harimo umwana w'umuhungu urimo arakaraba intoki n'amazi meza, iruhande rwe hari indubo amaze kuvomeramo.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu nzu, aho buri wese afite igipapuro arimo arandika, umwe muri bo afite icupa ry'amazi yateretse hasi ye.

Umuganga urimo arasuzuma umwana wazanye n'umubyeyi we biragaragara ko agiye kumutera agashinge ku rutoki, ariko akabanza kumuganiriza.

Abana batoya bishimye, bari kumwe n'umugabo urimo urabasukira amazi ngo bakarabe intoki, abana barishimye cyane, bari kureba hejuru, baseka.

Igishushanyo kiri mu mabara atukura ndetse n'amagambo yanditseho y'umweru, agaragaza ko ari kwita ku buzima bw'imikurire y'umwana.

Icyumba gisizwe n'amarangi y'ivu hamanitsemo imiti gakondo itandukanye, harimo umuntu wigunze wipfutse mu maso ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Inzu yicayemo abantu babiri, aho bafite icupa ry'amazi ku meza atambitseho igitambaro, umugore arimo arasaba serivisi zitandukanye.

Abantu b'abasirimu cyane, bahagaze bareba imbere. Aba bantu umubare wabo, ni cumi na bane, abagabo n'abagore.

Abantu batatu bicaye hamwe bagizwe n'abamama babiri ndetse n'umwana mutoya, umumama umwe wambaye umupira w'umweru arimo arereka umumama wundi ako bakoresha bipima.

Itsinda ry'abantu batatu bicaye ahantu hari inzu z'ibyatsi, aba bantu bose bambaye udupfukamunwa ndetse imbere yabo hari umuganga urimo arabaganiriza.

Abantu bicaye hamwe wagira ngo bari kuganira ibintu bitandukanye nko mu nama, hakaba hari amacupa y'amazi, amakayi ndetse n'udukapu.

Umukobwa mwiza urimo araseka, aho ari mu nzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye nka salisa ndetse n'ibindi.

Umubyeyi utekeye abana be, aho ahetse umwana umwe, undi akaba amuhagaze iruhande, ibi bikaba bigaragaza ko bishimye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ababyeyi babiri bafite abana babo, ndetse n'umuganga umwe urimo arabaganiriza uburyo bwo kubagaburira indyo yuzuye.

Imbaga y'abantu bicaye hamwe, biganjemo abana bakiri bato ndetse n'umukecuru uri hagati yabo, bose bari kureba imbere.

Abantu batatu ndetse n'undi umwe bafashe hagati mu maboko ufite ikibazo cyo mu mutwe aho yambaye imyenda yacikaguritse ndetse umusatsi wamwereyeho.

Umugabo w'umusaza ufite umusatsi mwinshi wamwereyeho, imyenda yamucikiyeho, ndetse yambaye ibirenge, uyu muntu afite ikibazo cyo mumutwe.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe uri mu kizu gisa nabi cyanduye nawe ubwe wanduye ukennye igitenge yifashe mu gahanga ndetse yambaye n'imigozi mu maguru.

Igishushanyo kiri mu ishusho y'urunyanya, hashushanyijemo umuntu, umutwe ndetse n'igipimo, hasi yaho hakaba hari amagambo y'icyatsi, avuga ko ari igishushanyo kiranga ubuvuzi bwo mu mutwe mu Rwanda.

Ahantu hitaruye hariho abantu benshi ndetse haparitse n'imodoka, buri muntu wese imbere ye hari umuganga urimo aramuganiriza kugira ngo amupime igipimo cye cy'imitekerereze.

Umusaza ukuze udafite amenyo wambaye ikigofero gishaje, ndetse n'umukenyero ufite icumu mu ntoki arimo arabyina ahamiriza.

Inyubako irimo abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze hamwe, imbere yabo hakaba hari ameza arambitseho imashini ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'imitako n'ibindi.

Itsinda ry'abantu bambaye impuzankano hejuru isa nk'umupira w'ubururu ndetse bafitemo abashyitsi babiri harimo n'umuzungu ndetse na bose ni urubyiruko.

Umwana w'umukobwa wishimye cyane wambaye akenda gatukura ndetse mu imbere akaba yambaye akenda k'ubururu, afite umusatsi karemano ndetse arishimye cyane.

Abagore batatu biteze ibitambaro mu mutwe, bafite inkoni mu ntoki, umwe afite igitiyo, umwe muri bo akaba ari konsa umwana amuteruye, afite n'umufuka mu ntoki, biragaragara ko hari ahantu bagiye.

Umuntu ufite agahinda gakabije, aho arimo ararira afashe n'igitambaro cy'umweru, arimo arihanagura amarira. Umuntu arababaye cyane.

Igice k'imbere cy'ubwonko kigaragazwa n'igishushanyo cy'umutwe w'umuntu aho ubwonko buba buteretse mu gice kijya kwegera inyuma, umuntu arahumirije.

Abagore babiri bigaragara ko umwe muri bo arimo arasuzuma undi kuko umwe yambaye ipantaro kandi ni n'umusirimu cyane, bigaragara ko ari umuganga, uyu wundi yitwaye nk'urwaye.

Itsinda ry'abagore biganje ndetse n'abagabo bake bishimye cyane aho barimo barakoma amashyi iruhande rwabo hari ameza arambitseho amazi.

Abantu benshi, imbere yabo hari umukecuru ufite ikibazo cyo mu mutwe, aho yambaye imyenda isa nabi cyane ndetse n'inkweto zisa nabi, ku ruhande rwe hakaba hari amacupa y'amazi.

Umukecuru ukuze cyane wambaye urunigi mu ijosi, akaba yambaye n'amaherena yiteze n'igitambaro cy'umweru, uyu mukecuru ameze nk'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu wishimye cyane, aho ari gukoresha kirida y'urudodo asukura amenyo ye, ni umugabo uri kwireba mu kirahuri.

Umugabo wishimye cyane; aho afite akadodo kabugenewe ko gusukura mu kanwa, amenyo; umugabo wirabura mwiza cyane!

Umuganga urimo aravura indwara y'amenyo umwana, arimo aramureba mu kanwa afite agakoresho mu ntoki gahuma amenyo.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu batatu, aho babiri muri bo ari abaganga undi akaba ari umurwayi uryamye wasamye arimo arakurwa iryinyo.

Itsinda ry'abantu batandukanye bambaye imipira y'icyatsi iriho amagambo y'umuhondo agira ati tubiteho. Aba bantu barimo bariborosa bakorera amasuku amenyo yabo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda cyo kuryamaho, intebe, ibishushanyo ku nkuta, televiziyo, n'ibindi. Iyi nyubako ikorerwamo igikorwa cyo kwita, kuvura ndetse no gukura amenyo.

Umusore mwiza cyane urimo araseka ndetse ufite ubwanwa, mu ntoki ze harimo akadodo kabugenewe gakoreshwa gasukura ndetse gakura imyanda mu menyo.

Umugabo mwiza cyane wishimye uri guseka, afite ubwanwa bwiza ndetse iyo foto iragaragaza igice cyo hejuru gusa, igice cyo hasi ntacyo tubona, icyo tubona ni uko uwo mugabo yishimye.

Umugabo w'igikwerere wambaye umupira w'umweru arimo aragaragaza amenyo ya ruguru, aho afite akadodo kabugenewe gakorera amasuku muryinyo.

Umugabo wigikwerere wambaye agapira k'ubururu, ufite agasatsi gake n'ubwanwa bwinshi, akaba arimo aseka yishimye cyane afite amenyo asa neza.

Inyubako yo kwa muganga hari abantu babiri bagaragara neza ndetse n'umwe utagaragara neza, aho barimo barita ku murwayi urwaye indwara zo mukuguru.

Umwana w'umukobwa mutoya witeze mu mutwe wambaye agapira k'umweru, afite uburoso mu ntoki mu kuboko kw'iburyo, arimo arikorera isuku mu kanwa.

Inyubako yo kwa muganga irimo umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'icyatsi arishimye cyane, iruhande rwe hari aho umurwayi aryamye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'gitanda cyo kuryamaho ndetse n'intebe yo kwicaraho iki gitanda kiryamaho n'umuntu bari ku iryinyo.

Abantu babiri b'abagabo harimo umwe wambaye imyenda yabugenewe y'umweru, afite akadodo kagenewe gukorera amasuku amenyo.

Umugabo w'igikwerere, ufite ubwanwa, ndetse washinyitse amenyo, aho afite agakoresho kabugenewe ko gukorera isuku amenyo yiwe kitwa kirida.

Abantu babiri harimo umuganga n'umurwayi, aho ari kumupima ikimeze nk'cyorezo cya Korona virusi kuko yamucometse agatipima mu mazuru.

Inyubako yo kwa muganga irimo umwana w'umukobwa wishimye cyane, aho arimo arireba mu ndorerwamo. Iruhande rwe hari agakombe k'amazi meza yo kunywa. Na none hari ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe yo kwicaraho ndetse n'igitanda cyo kuryawaho cyabugenewe, harimo ibindi bikoresho kandi n'imitako y'indabo ndetse n'ibindi.

Umuganga urimo arasuzuma umwana indwara zo mu kanwa biragaragara ko ari kumuhoma iryinyo.

Ibikoresho byo kwa muganga bishinzwe kurinda, guhoma, no gukura amenyo. Ibi bikoresho birambitse hasi ku meza.

Umukobwa mwiza urimo arireba mu kirahuri aho ari kuborosa amenyo, imbere ye hateretse ibikombe, uburoso na korogati.

Inyubako yo kwa muganga irimo abaganga babiri ndetse n'umwana urwaye indwara yo mu kanwa, aho barimo baramukura iryinyo. Inyuma y'aba baganga kandi hari igishushanyo kiriho umugore ndetse n'abana be.

Inyubako irimo abantu babiri, umusaza ndetse n'umwana muto bafashe udukoresho bakoresha bakina umukino. Inyubako irimo ibinditako bitandukanye nk'indabo ndetse n'ibindi.

Umukecuru ufite imvi akaba ahagaze imbere habugenewe abantu bahagarara iyo bari kwigisha afite na mikoro arimo arigisha . Inyuma ye haparitse imodoka ebyiri nziza.

Inyubako yo kwa muganga iba irimo abantu bakuze barindiriye kwitabwaho harimo umusaza wicaye ku gatebe ndetse n'umuganga urimo aramusunika, umukecuru nawe afite icyo kurya aho yishimye cyane.

Umuryango wishimye, ugizwe n'umupapa ndetse n'umwana we w'umukobwa muto. Akaba wari gukina umupira, nk'ikimenyetso cya siporo.

Inyubako irimo abantu baba bagomba kwitabwaho, umusaza n'umugore, umugore w'umuganga ushinzwe kwita ku basaza, umusaza barimo baramukandakanda mu mugongo.

Inyubako iririmo umusaza mukuru wambaye rinete, ufite ikaramu mu ntoki ndetse n'imvaho mu ntonki, arimo arasoma ibi bigaragaza kwitabwaho kw'abari mu zabukuru.

Abantu babiri harimo umusaza ndetse n'umugore ukiri muto umusaza arimo aritabwaho, aho yicaye mu kagare kabugenewe ndetse umugore arimo aramusunika bose barimo baraseka cyane.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri aho umwe umusaza undi akaba ari umusore imbere hakaba hari igitabo barimo barasoma ubu ni uburyo bwo kwita ku bantu bakuze.

Inyubako, yo kwa muganga, irimo abantu babiri, aho umusaza, harimo hareba ibintu bitandukanye muri telefone, uyu musaza yitayeho kuko hari mukuru.

Umugore ukuze wicaye muri salo iwe wenyine, yicaye ku kamatera gato arimo arakora siporo inyuma ye hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'imitako nk'indabo, amatara, intebe ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo abantu babiri, umusaza n'umukecuru, aho umukecuru arimo arasobanurira umusaza, uko agomba gufata imiti. Imbere yabo hari ikirahure cy'amazi ndetse n'uducupa tw'imiti.

Umuganga urimo aratoza umusaza gukora imyitozo ngororamubiri, aho yamuhaye akuma kabugenewe mu kuboko kw'iburyo arimo aragaterura.

Uturibwa dutandukanye utubombo, inkeri n'ibindi bintu bitandukanye tumeze, tuba turyohereye cyane.

Ahantu hitaruye munsi y'igiti aho hicaye abantu bari mu ngeri zose abakuze ndetse n'abakiri bato, aho barimo baraganira ku kibazo gitandukanye.

Umukecuru n'umusaza bicaye ahantu bafite ibipapuro imbere yabo, bigaragara ko bari gusomana igipapuro kimwe, hari ibindi bipapuro birambitse ku meza ikindi umusaza ufite telefone mu ntoki kandi yambaye amadarubindi.

Abantu babiri ndetse bose b'abagore barishimye cyane umugore umwe aricaye undi w'umuganga arahagaze amufashe mu gatuza bose barishimye cyane.

Umusaza n'umwana w'umuhungu bafite igitabo bari gusoma bishimye, buri wese imbere ye hateretse igikombe aho umusaza yambaye rinete ari we uri kwereka uwo mwana.

Icyumba kirimo abantu batatu bose b'igitsina gore aho harimo abato babiri ndetse n'umukecuru umwe, barimo barakina amakarita, barayakina bishimye.

Umuganga urimo urafasha umuntu uri mu zabukuru gutambuka, agendeye ku mbago batambukiramo.

Inyubako irimo abantu babiri umukecuru ndetse n'umugore w'umuganga aho umukecuru yicaye mu kagare naho umuganga yicaye ku ntebe isanzwe arimo arapima gutera k' umutima we.

Abantu babiri umusaza n'umuganga, umuganga arimo arafasha umusaza kugorora ukuboko nka siporo, aho umusaza afite agakoresho bifashisha bakora siporo.

Inyubako irimo abantu babiri umusaza ndetse n'umugore w'umuganga umusaza arimo araseka cyane kuko yitaweho na muganga.

Icyumba kirimo abantu babiri, umuganga ndetse n'umuntu usheshakanguhe ufite ubwanwa bw'umweru. Umuganga arimo aramwitaho, amuha n'ibinini byo kunywa.

Umusaza uri mu zabukuru ndetse n'umugore urimo aramwitaho, amwoza umubiri wose, akoresheje amazi meza n'isabune.

Umusaza wicaye ku gatebe ka pulastike k'umweru arimo aritabwaho n'umuganga, aho umuganga yambaye utwuma twabugenewe mu matwi akaba yanacometse ku mutima w'umusaza ngo yumve imiterere yawo.

Icyumba kimwe kirimo amabara y'umweru ndetse n'umukecuru umwe arimo arakora siporo aho aryamiye ku maboko areba hasi, umukecuru arishimye cyane.

Inyubako irimo abantu babiri umuganga ndetse n'umusaza, umuganga arimo arasobanurira umusaza uburyo agomba gukoresha kugira ngo akomeze kubaho neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho ari kumwe na muganga, akaba afite akabando mu ntoki, uyu musaza akaba yishimye ndetse na muganga na we akaba yishimye.

Abantu basheshe akanguhe barimo baritabwaho barahabwa urukundo ndetse bakanashishikarizwa gukora siporo, barimo baraterura utwuma twabugenewe kugira ngo bagorore amaboko yabo.

Abantu batandatu bishimye bahekanye bagaragara nk'umuryango ufite umusaza n'abana n'umugabo n'umugore n'undi mugore wa kabiri.

Inyubako yo kwa muganga irimo umusaza witaweho urimo urafashwa gutera urutambwe bamukura ku buriri yari aryamyeho. Arimo arafashwa n'abahungu, umuhungu umwe n'umukobwa umwe.

Inyubako irimo abantu batandukanye, ndetse n'umusaza usheshe akanguhe, aho yambaye amadarubindi arimo aritabwaho, mu buryo butandukanye.

Inyubako irimo abakuze babiri, umukecuru n'umusaza, barimo barasoma impapuro ziri imbere yabo, umusaza yambaye amadarubindi ndetse afite na terefone mu ntoki, abantu barishimye cyane.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu nzu mbere y'umusaza hakaba hari agacupa ndetse k'ibinini karimo ibinini, umukecuru akaba arimo aramusomera imikoreshereze y'iyo miti umukecuru n'umusaza barishimye cyane.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri, aho umwe ari umusaza, undi ari umukobwa w'umuganga. Umusaza arimo aritabwaho aho umuganga yamushize urushinge ndetse n'agapima amaboko ku kuboko.

Umukecuru n'umusaza bicaye imbere y'ameza bari kurya aho bishimye, imbere yabo hateretse ubwoko bw'ibiryo butandukanye.

Inyubako yo kwa muganga, irimo umusaza ufite bike mu kuboko kw'iburyo, ikayi imbere ye ndetse yambaye n'amadarubindi, aho arimo arandika, yibutswa kwandika.

Inzu iberamo ibikorwa byo kwita ku bantu bafite ubumuga ndetse n'abasheshe akanguhe harimo umusaza wicaye ku kagare barimo baramusunika.

Abantu babiri bari ahantu heza hitaruye, umwe ni umugore, undi ni umukecuru, uwo mugore w'umuganga afite imarete mu ntoki arimo arafasha uwo mukecuru kugendera ku nsimburangingo.

Inzira nyabagendwa iga irimo abantu babiri, birukanka umukecuru n'umusaza bose wambaye udusa ku kuboko kwi'bumoso, aba abantu barishimye cyane.

Abagabo babiri, umwe yambaye rinete, undi nta rinete yambaye, bose bambaye amakositime, baramukanya, bafite n'ibitabo mu ntoki.

Icyapa kiriho ibirango bitandukanye, bigaragaza uburyo umuntu ashobora gukoresha yirinda korona, harimo nko gukaraba intoki ndetse n'amazi meza, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera n'ibindi.

Imbaga y'abantu benshi bari mu cyumba bicaye bambaye imyenda y'umweru ndetse abenshi muri bo ni abakobwa, imbere yabo hariho umuntu urimo arabigisha.

Inyubako nini iri kuberamo inama yateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, bakaba bari kwiga ku ngingo ijyanye no kurinda agakoko ka sida.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, aho bishimye cyane barimo baraganira ku ngingo zitandukanye, imbere ya buri umwe hari ikayi arimo arandikamo.

Itsinda ry'uducupa dutandatu tugizwe n'amabara y'imifuniko y'icyatsi, ndetse twanditseho amagambo agaragaza ko harimo urukingo rw'ubushita bw'inkende.

Icyumba kirimo abana b'abanyeshuri batatu biga mu ishuri ribanza ndetse n'ababyeyi babo babiri, umugabo n'umugore barimo barabaganiriza ku mibereho ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inyubako nini cyane irimo umugabo imbere ndetse na porojegiteri zitandukanye, zirimo ziragaragaza igikorwa gitandukanye barimo.

Umumama urimo arakaraba mu mazi meza, n'amagambo yanditse, ashishikariza abantu kwirinda indwara y'ubushita, bw'inkende.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri umwirabura ndetse n'umuzungu bahagaze imbere y'icyapa; abantu barishimye cyane aho buri wese yambaye baji bitewe n'icyo akora.

Umugore uhagaze ndetse iruhande rwe hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo uhiye hasi hari amagambo agaragara avuga ko ari uko warinda umutekano ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abakobwa beza cyane, bishimye, bafite amakatere, bambaye imipira isa. Ni nkaho bari mu gikorwa runaka bahuriyemo bose.

Abantu babiri bari mu cyumba kimwe aho harimo umuganga w'umuyisilamu ndetse n'umurwayi urimo uritera uriteresha urushinge.

Ikarita igaragaza umunsi mpuzamahanga w'isi wahariwe icyumweru cyo kurwanya za mikorobe.

Udushushanyo dutandukanye turi mu ishusho y'udukobo tw'udutambaro buri kamwe hakaba handitseho amagambo ya kanseri ndetse n'andi menshi yo kwirinda indwara zitandukanye.

Umugabo w'umuzungu ufite igipapuro kinini kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku aya magambo akaba agaragaza ko urukingo rw'ubushita rwabonetse.

Ishusho igaragaza igikarito cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, agaragaza ko iyi ari indwara zitanduzwa.

Igishushanyo kinini cyane kiriho inyubako ya Convetion iri n'umujyi wa Kigali ndetse n'umwana w'umukobwa, hejuru ye hakaba handitse amagambo agaragaza ko ari umunsi w'Isi wahariwe kurwanya Diyabete.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu benshi bambaye imyenda isa hejuru y'impuzankano iri mu ibara ritukura, bakaba barambitse uducupa tw'umuti ku meza.

Inyubako irimo ababyeyi bane bagaragara n'abandi ku ruhande batagaragara, bateruye abana baje gukingiza ku bitaro, ababyeyi barishimye.

Inyubako yicayemo abantu batandukanye b'igitsina gore, ndetse bakaba bicaye ahantu hegutse mu ibaraza, barimo baratumbira umuntu uri iruhande rwabo rw'iburyo.

Icyumba kirimo abantu batandukanye abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe ku murongo, buri ntebe ikaba iriho umuganga umwe barimo baritabwaho.

Inyubako nini cyane ishakaje amabatibu y'ubururu igaragaza ikigo nderabuzima cya kanyinya mu marembo yayo iki kikaba giherereye i shyorongi.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyemo umurwayi umwe wambaye ingofero ndetse n'umuganga w'umugore wunamye, aho arimo aramutera urushinge ku kuboko ku iburyo.

Inyubako ya kera iriho amadarapo abiri, inyubako ikaba irimo imiryango ibiri ndetse n'undi umwe munini ku ruhande, hari gusohokamo umwana imbere hakaba hari ibirango byinshi bya werikamu.

Inyubako yubatse ahantu hitaruye irimo amatara menshi yafotowe nijoro. Hagaragaramo abantu begamye ku nkingi ndetse n'abandi bari gukora uturimo dusanzwe.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu batandukanye, bakora muri ibi bitaro, ndetse n'abandi baje kwaka serivisi zo kwivuza.

Inyubako nini cyane iri mu karere ka Musanze, bigaragazwa n'icyapa kirekire cy'umweru, cyanditse mu mabara y'ubururu bigaragaza ko ari ibitaro bya Ruhengeri.

Inyubako yo kwa muganga iba irimo imiti, aho mu birahuri biyubatse harimo amashusho atandukanye, harimo ibihamagarira abantu kugura kimwe bagahabwa bibiri, ndetse n'ibindi bishushanyo by'abantu.

Inyubako yo kwa muganga, isinze amarangi y'umweru, irimo ibikoresho bitandukanye, nk'imigezi ndetse utubati n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye aho umurwayi aryamye ku gitanda cyabugenewe, iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye nk'umuti n'ibindi.

Inyubako nini cyane yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ku ibaraza hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara, avuga ko iyi ari inzu y'ababyeyi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, abantu bifashisha bari gukora siporo nk'ibyo kwiruka nkaho, guterura ndetse n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'ibyumba byinshi, icyumba cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ikaba ari ibyumba ya kirinike, iyi nyubako igizwe na marangi y''mweru nta muntu uyigaragaramo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda, amarido, utugare abafite ubumuga bagenderaho, ndetse n'abaganga babiri.

Inyubako yo kwa muganga iriho ibikoresho bitandukanye; nk'ibitanda biryamyeho abarwayi barimo barongererwa umwuka, amacupa y'amazi ndetse n'ibindi.

Inzu ivurirwamo igaragaramo ibikoresho bitandukanye byo mu bitaro, harimo intebe y'umurwayi ndetse n'intebe y'umuganga, aho kuryama ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ikizu kinini cyane na cyo kirimo etaje, kigaragara nkaho cyuzuye vuba, nta muntu uri muri iyo foto, ikindi iyo nzu imeze nkaho irimo umujyi kuko hakurya hari andi mazu menshi.

Inyubako yo kwa muganga, harimo abantu mo imbere ndetse n'undi umwe, umumama uhetse umwama arimo aramuzengagiza ngo arekeraho kurira, inyubako mu marembo hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro byo ku Kigina.

Ahantu hitaruye harimo igipangu kinini cy'amatafari, cyanditseho amagambo agaragaza ko ari aho bafungira mu mujyi wa Kigali.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri b'abaganga bateruye akana k'agahinja, aho bakazaniye umubyeyi we umaze kukabyara.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye by'ibitanda ndetse aho igitanda kimwe kiryamyeho umurwayi urimo serumu. Iruhande rwe hari umuganga urimo arazinga supanete.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu batandukanye baje gupimisha abana babo, umwana umwe ari ku munzani harimo arerera.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye intebe n'ameza ndetse n'ibishushanyo bitandukanye, harimo na none imitako itandukanye y'indabo n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda bishashe neza ndetse hejuru hari na televiziyo, iyi nyubako nta murwayi n'umwe ugaragaramo.

Inzu igeretse inshuro eshatu, iparitseho imodoka nziza cyane, ikigaragara iyo nzu ikorerwaho ubushakashatsi bw'imiti bitewe n'amagambo yanditseho.

Umuganga ufite agacupa k'amazi mu ntoki, wambaye ga yipfutse no ku ku munwa, ari ahantu hameze nko muri laboratwari aho ari gupima ibintu runaka.

Inyubako nini cyane irimo intebe zo kwicaraho ndetse n'abantu benshi, bicaye bategereje ko bahabwa serivisi, iyi nyubako kandi irimo ibikoresho bitandukanye byo mu biro.

Ikigo gishinzwe kuvura indwara ya kanseri, haragara abasirikare b'abofisiye babiri, umwe aragaragara imbere y'iki....

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'udutebe twinshi ndetse na podimu imbere umuntu ahagararaho, iyi nyubako nta muntu n'umwe ugaragaramo.

Inyubako nini yo kwa muganga igaragaramo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo ibitanda bine ndetse n'utubati iruhande yabyo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga n'amarido, ibitanda ndetse n'ibindi hari ibitanda bine ariko nta murwayi n'umwe ubiryamyeho.

Ikigo nderabuzima cya Shangasha, inyubako nziza cyane, imbere hicaye abantu bigaragara nkaho bategereje serivisi runaka. Abo bantu ni abantu bakuze babiri n'abana babiri.

Inyubako ndende cyane imbere hari ubwoko bw'indabo zitandukanye zirimo mu mavase haparitse na none imodoka y'amavatiri atatu ndetse hari n'icyapa cyanditseho ko kari farumasi iherereye i Remera.

Inzu igeretse, iparitsemo imodoka nyinshi, bigaragara nk'aho iyi nzu ikorerwamo ubuvuzi runaka, hakaba hari imodoka ya kavatiri iri gusohoka.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho, kiriho n'umusego, imitako hejuru ndetse n'utubati ku ruhande.

Inyubako irimo abantu batandukanye bicaye imbere, aho hano ari kwa muganga, hejuru hakaba handitse amagambo agira ati ''Out patient.''

inzu igeretse inshuro nyinshi cyane iri ahantu heza yanditseho porotero "polyclinic du plato" nta shusho yumuntu igaragara muri iyo foto

Inyubako ndende cyane igaragaza ko ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, iyi nyubako imbere hari ibyapa biyobora ndetse binaranga ibikorerwamo nk'uko ari politiliniki tereta.

Inyubako igeretse iriho abantu benshi ndetse n'imodoka. Inyubako hanze hakotejwe n'amapave ndetse buri wese ari muri gahunda ziwe.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abantu benshi biganjemo ababyeyi ndetse n'umwana bapfutse mu maso. Iyi nyubako, aho bicaye, iragaragaza ko ari aho bakirira abarwayi.

Itsinda ry'abaganga batatu ndetse nundi umwe utagaragara neza, aba baganga bakaba bari mu bushakashatsi runaka, aho imbere yabo hateretse icupa ry'amavuta ya buto.

Udukarito batwaramo amaraso ndetse no hirya haragaragara umuntu uryamye bisa nkaho bari kumuvoma amaraso.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'igisaha kinini kimanitse ku rukuta ibikoresho bakoresha baterura ndetse n'ibifasha abantu kwinanura.

Umuhanda wa kaburimbo, imbere haparitse igare rihetse umuntu ugiye kurivaho ndetse hakaba hari n'icyapa cyerekana ko ari amarembo ajya mu kigo nderabuzima cya Gisenyi.

Icyumba kigaragara nk'aho ari icyumba cyo kwa muganga, aho harimo ibitanda, utubati, indobo n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Inyubako nini cyane, imbere hari ibyapa bitandukanye byo ku muhanda biranga ndetse imbere hari hagaze abantu benshi, iyi nyubako ni inzu yitiriwe umwami Faisal.

Abantu bicaye ku ntebe abenshi bakaba ari abagore n'umugabo uhagaze imbere yabo, umeze nk'umuganga, aba bantu bicaye ahantu hameze nko muri koridoro.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu benshi barimo baritabwaho, imbere haragaragara umukecuru wicaye mu kagare ari kumwe n'umuganga arimo aramwerekera uko bagenda.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, nk'ameza ndetse n'ibindi byuma bishinzwe gukonjesha no gushyuhisha, harimo umuganga w'umugore arimo arashyira ibikoresho ngo bifate ubukonje muri firigo.

Inyubako yubakishijwe n'amabati atukura imbere yayo hari abantu basanzwe bakora amasuku, aho bafite indobo abandi barimo baritambukira.

Inyubako yo kwa muganga itagaragaramo umuntu n'umwe hagaragaramo umuryango werekana aho bavurira amaso ndetse n'ibindi byumba bitandukanye.

Inyubako ndende cyane yubatse igeretse aho handitse amagambo ari mu ibara ritukura, agira ati igikorwa cyo kurinda indwara zandura ku bantu ndetse no ku matungo.

Abantu batonze umurongo, harimo ufite ubumuga aho agendera mu kagare. Akaba ariwe uri guhabwa serivise.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri bagaragara neza n'undi umwe utagaragara neza, umurwayi w'umugore aryamye ku gitanda naho umuganga arimo aramutera urushinge ku kuboko.

Inyamakuru yo kwamagana irimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda ndetse n'intebe, haka harimo muganga wambaye imyambaro yabugenewe arimo aratambagira muri ibi bitaro.

Inyubako ndende cyane y'igorofa, iri ahantu hitaruye, ndetse iriho irangi rishaje, hakaba hari amagambo hejuru agaragaza ko iyi nyubako ariyo abarwayi bo m'umutwe bavurizwamo.

Inyubako y'ibitaro bya Kabgayi, bigaragazwa n'icyapa kiri mu marembo mo imbere harimo abantu ndetse harimo n'undi upakiye ibintu ku igare.

Inyubako yo kwa muganga imbere yaho hakaba hari abantu b'ingeri zose batandukanye bambaye impuzankano. Imbere haparitse imodoka ndetse no mu gipangu haparitse indi.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyemo umurwayi ndetse umuganga ahagaze arimo aramwitaho. Umuganga yambaye imyenda yabugenewe ndetse arimo aratera urushinge uwo murwayi.

Ibitaro birimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, ibitanga, ameza, televiziyo ndetse n'ibindi, nta muntu ugaragara muri iyo nyubako.

Ibyuma byo kwa muganga ndetse bikunze no kuba aho abana biga, harimo ibyuma bisa nk'ubururu ndetse ibindi bikaba bisa nk'icyatsi, ibi mu ijambo rimwe ubu babyita ibyicungo.

Umuganga uri mu cyumba cyo gucisha abantu mu cyuma, bigaragara ko nta muntu uryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Inyubako yo kwa muganga irimo umuganga urimo arita ku murwayi; umuganga yambaye imyenda yabugenewe ndetse yashyize agakoresho kabugenewe k'umurwayi arimo arumva niba agihumeka.

Inyubako ndende cyane igeretse isakajwe amabati y'ubururu, irimo abantu benshi ku gice cyo hejuru ndetse no hasi, iyi nyubako iriho icyapa kibi ndetse ngo ikigonderabuzima cya Nyarurenzi.

Ivuriro ririmo ibyumba bitandukanye, aho hagaragara ivaze irimo ururabo, nta muntu n'umwe ugaragara muri iryo vuriro.

Farumasi yitwa Good life, iruhande rwaho hari isoko ry'imyenda, imbere hakaba kabaparitse imodoka, muri iyo farumasi nta muntu urimo, ariko iruhande rwaho hari umuryango ugaragara ko hicayemo umuntu.

Abantu bane bahagaze ahantu hamwe aho umugabo muri bo ari umwe, abandi bakaba ari abagore inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko inyubako ari laboratware.

Icyumba cyo kwa muganga, bigaragara nk'aho harimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda televiziyo, amafoto ndetse n'udupima abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo ibitanda, harimo ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga, biragaragara ko iki cyumba nta murwayi ukirimo n'umwe.

Ifoto igaragaza umuryango wo Isanga One Stop Center, hakaba handitseho aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako ivurirwamo, irimo ibikoresho bitandukanye, ibiryamirwa, ibyo gukoreraho siporo ndetse n'ibindi bitandukanye, iyi nzu nta muntu ugaragaramo.

Ivuriro riryamyemo umurwayi umwe aho nta muganga uhari, hari ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, uyu murwayi aryamye nkaho bashaka kumucisha mu cyuma.

Inyubako yo kwa muganga irimo icyumba kimwe hicayemo umuganga wambaye imyenda yabugenewe, iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye nk'igitanda cyo kuryamaho kiri mu ibara ry'ubururu ry'icyatsi ndetse n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda byo kuryamaho kandi bifite amapine, ameza, vandarateri hejuru ndetse n'ibindi.

Ifoto igaragaza icyumba cyo kwa muganga, aho harimo ibishushanyo bitandukanye, televiziyo, igitanda ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga bitandukanye.

Abaganga babiri, barimo barasuzuma umurwayi bamubaza ibimenyetso, umuganga umwe aricaye, ari kumwe n'umurwayi undi arahagaze, bari mu cyumba cyo kwa muganga, hagaragaramo kompuyuta ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako yubakishije amatafari, imbere mu ibaraza hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara agaragaza ko ari inzu y'ababyeyi, iyi nzu ijitije ibyuma.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, nk'igikoresho umurwayi aryamaho igihe agiye kunyuzwa mu cyuma, iyi nyubako isizwe amarangi y'umuhondo.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri, umu umusaza ndetse n'umuganga w'umukobwa ukiri muto, umusaza yambaye rinete, naho umuganga yamuhambiriye ku kuboko kw'iburyo arimo aramupima.

Inyubako y'ibitaro imaze igihe, imbere hari icyapa ndetse hakaba haparitse n'imodoka iruhande rw'umuryango.

Inyubako ndende yubakishijwe amabuye, imbere yaho hakaba harimo abantu babiri bari guca mu ibaraza, aba bantu harimo umuganga umwe ndetse n'umurwayi umwe.

Inyubako nini cyane mu ibaraza hakaba hahagaze umuganga, iyi nyubako hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari raboratwari.

Inzu igaragara nk'aho ari farumasi, harimo imiti y'ubwoko butandukanye, harimo agatebe kicaraho abaje gusa serivise ariko ntabwo hagaragaramo umuntu ukora muri iyo farumasi.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye nk'igikoresho abarwayi baryamaho kimwe bita kunyuzwa mu cyuma, igikoresho kiri mu mabara y'umweru ndetse hashamikiyeho twa televiziyo.

Inyubako nini cyane igeretse inshuro ebyiri, inyubako imbere hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti by'imikindo, iri ahantu yitaruye ndetse imbere haho haparitse imodoka iri mu bwoko bwa tagisi.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu benshi harimo abaganga ndetse n'abandi baturage basanze bakaba bari kuganira ku kintu runaka muri iyi nyubako harimo igitanda kitariho umuntu.

Inyubako igaragaza ibitaro by'Akarere, aho handitseho ko ibi bitaro byitwa Shyira.

Icyumba abarwayi baryamamo, kirimo ibitanda ku murongo umwe, ariko nta murwayi n'umwe ukirimo nta n'umuganga n'umwe ukirimo, hari televiziyo hejuru ya buri gitanda.

Icyumba kirimo aho bacishiriza abantu mu cyuma, ndetse n'aho umurwayi aba aryamye. Nta muntu n'umwe urimo ariko harimo ibikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga irimo intebe ndetse n'imitako itandukanye ikozwe mu bipirizo, imbere kandi nanone hari' ikirango cy'ijisho.

Inyubako ndende cyane kandi nziza, ifite imikindo imbere ndetse n'ubusitani. Iyi nyubako harimo umuryango ufunguye ndetse ibagwarizwamo abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Inyubako ndende cyane igeretse inshuro eshatu, aho imbere haparitse imodoka eshatu ndetse hakaba hari umutaka wa Airtel ni muri uyu mutaka hakaba hicayemo umuntu wo gutanga serivisi.

Umwana w'umukobwa uvuye muri siporo ufite umupira mu ijosi, ndetse n'agacupa k'amazi mu kuboko kw'iburyo arimo aranywa amazi.

Inkoni y'imbago, ihagaze idafite uwo kuyigenderaho, iyi nkoni ikoreshwa n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo.

Umusore mwiza cyane ufite ubwanwa buke avuye muri siporo aho afite icupa ry'amazi mu kuboko kwiburyo arimo arayanywa, iyo uvuye muri siporo uba ukeneye amazi menshi.

Abanyeshuri ndetse n'abantu bakuru bari mu kibuga ahantu runaka gikorerwamo imikino itandukanye ya basiketi, barimo barakora siporo ndetse harimo barayikoreshwa n'umuntu umwe uhagaze imbere yabo.

Inyubako yo kwa muganga irimo umugore wicaye hasi ndetse n'umugabo w’umuganga, urimo aramukanda k’ukuguru kwe aho yagize imvune avuye muri siporo.

Umuntu wicaye hasi ku butaka arimo arakora siporo ngororamubiri, aho afashe ku birenge bye, agorora umugongo ndetse n'amaboko.

Icyumba gisizwe amarangi y'umweru kirimo tapi hasi, kikaba gikorerwamo imikino itandukanye, harimo umuntu urimo arakora siporo aho yunamye.

Abantu bicaye hamwe imbere yabo harambitse ibikapu bitukura ndetse n'agacupa gato. Ibicupa bitukura birimo imiti yo gukoresha ndetse n'ibikoresho byo gukoresha mu butabazi bw'ibanze.

Umuganga wambaye ikaruvati, ndetse n'itaburiya, ndetse n'agapima gutera k'umutima mu ijosi, akaba afite ikintu kimeze nk'umupira wa rugubi mu ntoki.

Umukobwa uvuye muri siporo uri mu ishusho ry'umukara aho arimo aranywa amazi na meza akoresheje ukuboko kw'ibumoso, umukobwa arishimye cyane.

Agakarito kabugenewe gashinzwe kubika ibikoresho bitandukanye harimo imikasi, amavuta yo kwisiga, korogati ndetse n'amazi ashinzwe kurinda udukoko.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri, umugabo ndetse n'umugore w'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, akaba arimo aratoza umugabo, kugenda agendeye ku nsimburangingo.

Uducupa dutoya tureture dutatu turi mu ibara ry'umweru, turiho igipapuro kiranga ibirimo imbere ndetse n'ibyakozwe muri uwo muti.

Imiti itandukanye y'ibinini birambitse hasi ndetse hakaba handitseho n'amagambo agaragaza ko hari hagamijwe kwimakaza siporo.

Uruziga rurimo abantu babiri, umwe wambaye umweru undi yambaye ubururu, abo abantu babiri barimo barakirana, umukino wo gukirana.

Inyubako irimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi ufite na baro yanditseho nimero kane mu kuboko kw'ibumoso.

Umwana w'umukobwa wicaye mu nzu aho hasi hariho imbaho ndetse akaba yarengejeho umukeka, akaba arimo akora siporo yifashe mu birenge, umwana w'umukobwa arishimye cyane.

Umuganga urimo aravura umuntu wagize igikomere cyangwa se imvune ku kuboko, bikaba bigaragara ko arimo aramusiga amavuta avura imvune.

Ubwoko bw'imbuto butandukanye, ikirahure kirimo ji, utwuma tubiri baterura bakora siporo, igitunguru, urusenda ndetse n'imboga.

Ahantu heza hitaruye hariho agatebe ko ku muhanda, hariho abantu babiri umusore ndetse n'umukobwa bavuye muri siporo bananiwe, barambitse ibikapu hasi umwe akaba arimo aranywa amazi.

Inyubako nini cyane igaragaramo icyumba kimwe kirimo tapi yicyatsi, harimo abantu babiri barimo barakora siporo. Umwe ni umugabo undi ni umugore, umugore arahagaze mugihe umugabo yicaye.

Ibikoresho bibiri harimo ikirarahuri ndetse n'ibinika ifashwe n'umuntu ibinika ikaba iri gusuka amazi muri icyo kirahure biteretse ku meza.

Umugore muremure wambaye imyenda yabugenewe ya siporo, aho ari gukora siporo arambura ukuguru kumwe ukundi guhinnye.

Inyubako irimo abantu babiri, umugore usutamye ndetse n'umugabo urimo urakora imyitozo ngororamubiri yo gusimbuka. Bose barimo barakora siporo kandi bishimye.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abantu bane ndetse n'umuganga umwe, iyi nyubako harimo abana barwaye indwara zo mu kanwa ndetse umuganga arimo arabamurika mu kanwa ngo abone uko abitaho.

Umugabo wambaye agashanete mu ijosi, akaba yambaye umupira w'ubururu, akaba ari kunywa amazi, uyu mugabo afite ubwanwa arasa nk'uvuye muri siporo.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru wagize imvune ku kuguru, akaba aryamye ku gitanda ariko biragaragara ko ari koroherwa.

Igishushanyo kigaragaza ibikoresho bitandukanye, harimo ibice by'imibiri y'umuntu, ibihimba amaguru n'amaboko ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umugore uri mu nzu iwe muri salo irimo intebe zo kwicaramo ndetse yarambuye agatapi hasi akicayeho arimo arakora imyitozo ngororamubiri, aho ari kurambura ukuboko akagakoza ku kirenge.

Umusore uvuye muri siporo aho yambaye imyenda y'umukara, akaba afite n'icupa ryamazi mu kuboko kw'ibumoso arimo asukaho mu maso.

Inyubako yo kwa muganga irimo igikoresho kiri mu ibara ry'umweru, gishinzwe kuryamwaho n'umurwayi ugiye kwicisha mu cyuma. Inyubako kandi harimo n'ibikoresho bitandukanye, nk'utubati ndetse n'ibindi.

Inyubako yo kwamuganga irimo ibikoresho bitandukanye, n'igitanda cyo kuryamaho ndetse n'ibikoresho bakoresha bari muri siporo.

Inyubako irimo abantu bane bagaragara ndetse n'umuzungu umwe, abo bantu bari kumwe n'umuzungu aho ari kubakoresha siporo.

Imbuto zitandukanye, harimo agakoresho bakoresha bakora siporo, ubwo bwoko bw'imbuto harimo avoka, shofureri, inyanya, ibitunguru, pome n'ibindi.

Igishushanyo kigaragaza umuntu urimo arakora siporo yambaye imyenda yabugenewe, iki gishushanyo kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ritukura ndetse n'ubururu, avuga ko ibyiza byo gukora siporo.

Inyubako irimo abantu babiri, umugabo uvuye muri siporo yakomeretse ndetse n'umugore w'umuganga urimo amwitaho ku kuguru kw'iburyo.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye ndetse umuganga uhagazemo yambaye ga, arimo arerekana uburyo siporo ikorwa.

Umuntu uri muri siporo wambaye ekuteri, ari kunywa amazi, yambaye na telefone ku kuboko kw'iburyo.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu babiri umugabo n'umukobwa muri siporo wakomeretse ukuguru ku iburyo umugabo arimo aramwitaho aho amushyiraho bande.

Ibikoresho bitandukanye harimo agacupa bigaragara ko karimo umuti w'amazi, hakaba hariho agapima amaraso amakayi yo mu bwoko bwa karine atandukanye.

Ibikoresho byinshi byifashishwa muri siporo harimo bande bizirikaho amakayi, kalendari ndetse n'amavuta yo kwisiga ya pomade.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwirabura ndetse n'umuzungu. Umwirabura aryamye hasi, aho umuzungu arimo aramukandakanda ukuguru kw'ibumoso. Aho yavunitse.

Umugabo urimo arakora siporo, arambura ukuguru n'ukuboko, yambaye ubusa hejuru naho hasi yambaye ikabutura n'isaha mu kuboko kw'ibumoso.

Umuntu wavunitse ukuguru bigaragara ko yaje gusurwa, akaguru kamanitse hejuru, bari kukuvura bamwitayeho cyane, ari kumwe n'abaganga babiri ndetse n'abandi bantu bahagaze ku ruhande.

Icyumba kiri ahantu hitaruye, hakuno harimo umugabo wambaye imyenda irimo amabara y'umukara, arimo akora siporo akandagira hejuru ku gisanduku gihari.

Ahantu hitaruye harimo umukobwa urimo arakora siporo aho yicaye mu byatsi yunamye, yambaye akajire ndetse naga kabutura gato, arimo ararambura amaboko agafata ku maguru.

Abantu barimo abakobwa benshi ndetse n'abari kubafana, bakaba bari mu gikorwa cyo gukora siporo ngororamubiri.

Umuntu w'umugabo mukuru uvuye muri siporo, aho yambaye agapira hejuru kamufashe, arimo aranywa amazi,, siporo ningenzi.

Agatebe k'abafite ubumuga kakaba kicarwaho n'umuntu ufite ubumuga bakamusunika, bakamwerekeza aho ashaka. Hasi hakaba hariho munsi y'aho yicara hakaba harimo agatebo ashobora gutwaramo ibintu.

Umugabo uvuye muri siporo wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse nagakabutura gato umugabo yavunitse ukuguru kw'ibumoso aho arimo arakanda mu ivi.

Udukarito dutanu turimo imiti y'ubwoko butandukanye, ndetse utwo dukarito tukaba turiho udutambaro tw'amabara atandukanye; umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu, ndetse n'umukara.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abantu babiri, aho umwe yakomeretse ukuboko, undi arimo aramuhambiraho zabande zishinzwe kurinda no kuvura izo mvune.

Ahantu hitaruye mu ishyamba, harimo abagabo babiri bambaye imyenda yabugenewe ya kuruwaruje, bamwe bashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, bakaba bateruye umuntu wakomeretse.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri, buri gitanda hakaba haryamyeho umurwayi ndetse buri gitanda hakaba hariho umuntu uri kwita kuri wa murwayi. Igitanda cya mbere kiryamyeho umurwayi w'umugabo, ikindi kiryamyeho umugore.

Umugabo w'igikwerere wambaye umupira w'umweru impeta ndetse n'agakomo ku kuboko, umugabo avuye muri siporo yavunitse arimo arikanda ukuguru kw'ibumoso.

Umwana w'umukobwa wicaye hasi yambaye imyambaro yabugenewe yo gukora siporo, aho arimo arananura umugongo we afata urukweto.

Umugabo urimo arakora siporo mu cyumba cye, aho yashashe agakeka hasi, akaba apfukamye yarambuye n'amaboko, haragaragaramo kandi na none igitanda.

Umugabo urimo aranywa amazi yambaye ekuteri mu matwi, yambaye agapira hejuru, afite n'agacupa k'amazi mu kuboko kw'ibumoso.

Umuntu ukora umukino wo kwirukanka wo gusiganwa ari kumwe n'undi muntu umufashe bigaragara nk'aho yagize ikibazo, uyu muntu akaba yambaye ga.

Umwana w'umukobwa urambaye agasengeri hejuru, afite'isume ku rutugu, aho avuye muri siporo, akaba harimo aranywa amazi meza.

Ibikoresho bibiri harimo ikirahuri ndetse n'ipinika, ikirahuri kirimo kirasukwamo amazi aho giteretse ku meza naho ibinika iri hejuru ifashwe n'ikiganza cy'umuntu arimo aragikoresha.

Umuganga ufite ikaramu, arimo arandika ibintu bitandukanye, imbere ye harimo udukoresho yifashisha kwa muganga, harimo metero, agapima gutera k'umutima n'amaraso, urubuto rwa pome, ndetse n'agacupa k'amazi.

Uducupa dutoya dupfundikiye turimo umuti, turi ahantu habugenewe muri etajeri, dupanze tugerekeranye tumwe hasi utundi hejuru.

Uducupa tubiri dutoya tw'umuhondo n'utundi dutoya kurushaho tw'umweru tujya mu imiti, utu ducupa tureture tujyamo amavuta ndetse dupfundikijwe n'inimifuniko itukura.

Abantu babiri bahagaze mu ishyamba kimeza ririmo amababi atunganywa akavanwamo imiti gakondo yabugenewe, muri abo bantu harimo umusaza ndetse n'umwana w'umukobwa urimo arasobanura.

Imiti gakondo y'ubwoko butandukanye, irimo irasekurwa n'umugore, mu gakombe kabugenewe, kabajijwe neza. Muri iyo miti navugamo nka tungurusumu ndetse n'indi.

Ishyamba ririmo ibyatsi by'ibimera byinshi; aho harimo n'ibimera bifite umumaro wo kuvura; harabonamo umuti wita umuharavumba uvura indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye harimo imbuto y'umwenya, kapusine, umuravumba igikakarubamba ndetse n'ibindi, ibi byose bikaba bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa bashyiramo umuti utunganywa ukomotse mu buki.

Imiti gakondo irambitse ahantu ku nkoko ndetse n'isekuru n'umuhini wo gusekuza iyi miti , harimo insenda , tangawizi ,amababi ndetse n'ibindi.

Ibiganza by'umugabo bifashe umuti wa kinyarwanda, uzingazinze mu gipapuro, hagaragara ibiganza gusa, mu maso h'umuntu ntago hagaragara.

Uducupa dutandukanye utunini n'uduto turambitse ku meza turimo imiti y'ubwoko butandukanye ndetse inyuma yaho hari igitambaro kiri mu ibara ritukura.

Agacupa gafashwe mu kiganza cy'ibumoso, aho aka gacupa kari mu ibara ry'umweru, hakaba hariho ibirango igaragaza ko uyu muti gakondo ukomoka mu bimera.

Akarago karambitseho udutebo twinshi turimo ubwoko butandukanye bw'imiti gakondo, utu dutebo turimo imyumbati ndetse n'indi miti iboneka iyo habanje gusekurwa ibitiritiri.

Ishyamba kimeza, ririmo imiti gakondo itandukanye, ifite amababi y'icyatsi, ayo mababi akaba avura indwara zitandukanye.

Umuti gakondo witwa umuharavumba, iki ni ikibabi kirambitse aho hariho utunini twitwa teburukara turambitseho tugeze mu munani.

Ibimera kandi akaba ari n'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, iki ni igiti gikura kikarandaranda hejuru.

Icupa risa nku'umweru rifite ikirango cyigipapuro cyanditse mumabara yumukara y'icupa rirambitse ku isahani iriho nanone imbuto zo mu bwoko bwa maronji.

Ibikoresho bya gakondo bitandukanye, byakoreshwaga mu buvuzi harimo uducuma tw'iminwa ibiri, utwungo imitaka ya kera ndetse n'inigi.

Agati gafukuye neza cyane kabajije neza karimo ibinini biri mu ibara ry'icyatsi, ibi binini bitunganywa mu bimera ni imiti gakondo.

Icyatsi k'ikimera kiba gifite uturabo hejuru, izina ryacyo ni inyirabarasanya, kikaba kivura ibikomere, uyu ni umuti gakondo.

Uducupa twinshi turunze ahantu hamwe ku meza aho buri gacupa kariho ibishushanyo bitandukanye by'ibimera gakondo bitunganywa hakavamo uyu muti, uducupa twinshi turimo ikimera k'igikakarubamba.

Uducupa dutandukanye utunini n'udutoya aho harimo imiti itandukanye ikomoka mu bimera nk'igikakarubamba n'ibindi.

Agatebo karimo ibintu bigaragara ko ari imiti gakondo iva mu byatsi ndetse n'umuntu urihe ufasheho, bigaragara nkaho arimo arayitunganya.

Ubu ubwoko bw'ibimera gakondo ndetse hakaba n'imiti gakondo butandukanye, harimo igikakarubamba, umwenya ndetse n'ibindi bitandukanye bivura indwara zitandukanye.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti kimeza ndetse n'imiti y'ubwoko butandukanye iri shyamba amababi y'ibiti birimo avura indwara zitandukanye nko mu nda ndetse n'izindi.

Imbuto zitandukanye harimo inanasi, imineke ndetse n'udukarito turimo, kamwe karimo ikawa akandi gakarito kakaba kanditseho ko kaba karimo umunyu.

Uducupa dutatu dutoya kamwe gafite umufuniko w'ubururu, akandi w'umuhondo akandi w'igitaka. Utu ducupa tukaba turimo imiti itandukanye.

Ikimera cy'icyatsi cyameze ahantu mu gishanga, hari utubuye gifite amababi ameze nk'ay'avoka kandi kirandira hasi aya mababi ni ingenzi cyane kuko avura indwara zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye birambitse ku meza, harimo korogati ikozwe muri igikakarubamba, harimo uburoso burambitse mu gikombe cyabukenewe ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo irambitse ku biti byaciyemo kabiri ndetse harimo ibikarito bitatu, aho hejuru handitse amagambo agaragaza ko iyi miti ituruka mu mababi y'ibyayi.

Uducupa tw'amoko atandukanye turambitse hasi aho turimo imiti y'ubwoko butandukanye, buri gacupa hagiye habaho agakarito inyuma yaho hariho ibirango ndetse n'ubwoko bw'umuti burimo mu imbere.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye agiye apangapanze mu nzu yabugenewe, aya macupa arimo imiti itandukanye ndetse n'ikirango inyuma ku gipapuro kiranga ubwoko bw'umuti urimo.

Igishushanyo kiri mu kirango k'isaka kigaragaza ikigo k'igihugu gishinzwe kurwanya no kurinda ibiti.

Umuti gakondo, uri mu dukombe tubiri, tw'ibirahuri, duteretse hamwe uyu muti akaba ari umuravumba batekeye mu mazi, umuti uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ubwoko bw'ibimera butandukanye bufite amababi y'icyatsi, bwatewe mu dukombe twabugenewe, duteretse ku meza yabugenewe, amababi y'iki kiribwa ni ingenzi cyane kuko aravura.

Agasambi karambitseho imiti gakondo y'ubwoko butandukanye, hariho isekururo ndetse n'umusekuzo uri mu ibara ry'umweru ushinzwe gusekura ndetse no kuyungurura amababi runaka, umunzani ndetse n'indabo zitandukanye.

Imihini ibiri ndetse irambitse mu isahani, ndetse ku ruhande hari indobo irimo igikakarubamba, iyi mihini ikoreshwa mu gusekura iyo miti gakondo.

Uducupa dutandatu turambitse ducutse aho muri utu ducupa hatseho amagambo agira ati arowe vera jeri, haba harimo umuti ukomoka mu bimera gakondo.

Agacupa karekare gasa n'umuhondo kariho igifuniko cy'igipapuro kiriho amagambo y'umuhondo ndetse nigishushanyo cy'ikimera cya cy'igikakarubamba.

Ururabo rurambitse hasi ku butaka, ururabo rurerure rufite amababi y'icyatsi, ndetse n'uturabo tw'umutuku, uru rurabo rukaba rufite akamaro kanini kuko ruravura.

Amashusho atandukanye arimo ubwoko bw'ibyatsi, ubwoko bw'imboga ndetse n'ubwoko bwindabo, hasi yaho hari utundi tuntu tutagaragara neza tumeze nk'uruhererekane rw'ibintu.

umusaza uri mu za bukuru ndetse noumugore umo aramwitaho amwoza umubiri n'umukwekoresheshaje akazi meza n'isabune ye

Agacupa k'umuhondo gapfundikijwe n'umufuniko utukura ndetse iruhande hakaba n'akandi gacupa k'umweru, hakaba n'umuti witwa igikakarubamba w'ibiva mu bimera.

Ibyatsi by'ibimera bihinze mu buryo bwa pepennyeri, ibi byatsi bikaba biteye mu dukombe tw'umukara ndetse turimo itaka ryabugenewe, ibyo byatsi nanone amababi yabyo afite umumaro kuko aravura.

Igishushanyo kiriho umugabo ndetse uruhande rwe hari amacupa atandukanye matoya, aba abarimo imiti itandukanye, buri cupa ririho igipapuro inyuma kigaragaza ubwoko n'umumaro w'umuti urimo imbere.

Udukombe dutandukanye duteretse ahantu mu cyumba aho turimo imiti itandukanye ya gakondo, utu dukombe iruhande rwaho hari udukarito kandi handitseho igipapuro kigaragaza imiti ndetse n'ubwoko biri muri iryo cupa.

Umuti gakondo urambitse ku giti bakoresha bayitunganya; iyi miti ni ingenzi cyane kuko ivura indwara zitandukanye harimo nko kuribwa mu nda n'izindi.

Ikimera gisa nk'icyatsi cya gaperi gifite amababi y'icyatsi ndetse n'imbuto ziribwa. Iki kimera kivura indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'ibindi.

Umumama wambaye igishora cy'umweru ndetse n'ishakoshi mu kuboko kw'ibumoso, ahagaze arimo arasoroma amababi y'umuharavumba uhinze mu rutoki.

Agacupa k'umweru gatoya karimo amagambo atandukanye aranga ibirimo n'ibikorewemo, aho hagamo amagambo agaragaza ko ibiri muri aka gacupa biba byarakozwe hifashishijwe tungurusumu, uyu ni umuti gakondo.

Ibimera biririmo ubwoko butandukanye, ndetse bimwe byagiye bikura bikazana indabo, amababi yabyo avura indwara zitandukanye, nk'izifata mu nda n'izindi.

Etajeri cyangwa se akabati karimo amacupa menshi atandukanye, ayo macupa bikaba bigaragaza ko atari amacupa y'amavuta gusa ahubwo ari umuti. Haragaragaramo abantu babiri umwe yibereye muri gahunda ziwe undi yegereye ako kabati.

Icyatsi cy'ikimera gakondo kivura, iyi foto irimo umuntu ufashe kuri icyo cyatsi, agaragaza ko ari umuti.

Uducupa tw'imiti tw'umweru, dutandukanye, dutoya, turambitse ahantu tugerekeranye, inyuma hakaba handitse amagambo aranga ubwoko bw'imiti buri muri buri gacupa.

Igishushanyo kiriho agacupa kabikwamo ibinini gasite mu ibara ry'umweru, hakaba hanyuzeho amagambo agaragaza ko ubwonko n'indwara zo mu mutwe zigomba kwirinda.

Ibimera bitandukanye biririmo cyayicyayi indimu ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye bikoreshwa mu muti wa gakondo, bivura indwara zitandukanye.

Ahantu mu ishyamba harimo ibiti byimejeje, harimo urubuto rw'uruyuzi rw'igihaza, hakaba hariho ibiti by'umuravumba.

Imitako igizwe n'indabo, amavaze, ibikombe by'ibirahure ndetse n'utundi ducupa dutoya bigaragara nk'aho tuba turimo umuti, hakaba hariho utundi tuntu tumeze nk'imyuko baturambitseho utuntu tw'utuziga tumeze nka zahabu.

Inyubako irimo imiti gakondo itandukanye nk'imizi ndetse n'amacupa abikwamo iyo miti harimo umugabo urimo urayitunganya.

Amacupa maremare atandukanye yanditseho amagambo atandukanye bitewe n'ikirimo, hariho ibigaragaza ko mu icupa mo indani harimo ibikomoka ku ikawa.

Icyatsi cy'ikimera cyera mu gishanga cy'amababi yacyo akaba avura indwara zitandukanye harimo nko mwanda ndetse n'izindi.

Amacupa atandatu arimo ibintu bimeze nk'imiti ikomoka ku bimera, aya macupa iruhande rwaho hariho akandi kantu katagaragara neza kameze nk'agakarito.

tungurusumu nyinshi cyane z'umweru, izi tungurusumu zikaba zivura indwara zitandukanye, harimo nk'igifu, amaso ndetse n'izindi.

Umuti uri mu icupa ry'umweru ritoya, ufite icyapa gitukura hariho amagambo y'umutuku aranga icyo uyu muti uvura, handitseho ko uvura kurangiza, vuba gucika intege n'ibindi...

Ibimera bitandukanye harimo imbuto, imiti, harimo umuti wa kapusini ndetse n'indi miti itandukanye, imboga, indabo n'ibikakarubamba.

Igiti cy'ikimera kimeza gifite amababi afite umumaro cyane. Ubusanzwe iki giti cyitwa ikibonobono.

Icyatsi cy'ikimera kiba gihinze ahantu mu gishanga, iruhande rwaho hakaba hashasheho amabuye, iki cyatsi ni ingirakamaro cyane kuko amababi yacyo avura indwara zitandukanye.

Icupa ritoya risa nk'umweru ririmo umuti, inyuma hari ibirango byanditse mu magambo y'umuhondo ndetse n'andi y'umukara rigaragaza ikirimo indanani muri uyu muti.